Hari umuntu uri mu ishyamba uri kurunda ibyatsi, ni mu gitari, ni umuntu umwe yambaye agakabutura, yambaye n'ubusa ari kurunda ibyatsi.

Ni ikirago cyanitseho ibintu by'umweru, hirya hari akarabo k'umweru k'icyatsi gahari.

Ni abagabo batanu bari gufuhira imyaka ibigori, bari gutera umuti bafite amapombo, bambaye udupfukamunwa.

N'imashini iri kuvomerera mu gishanga imyaka itandukanye , imashini iri kugenda iri gufuhira imyaka iteye mu gishanga.

N'icyayi giteye ku butaka harimo umuntu urikuhira afite imashini yambaye agapfukamunwa.

Ni ubucuruzi hariho icupa ririmo amavuta, rishushanyijeho imbuto zitandukanye, hariho ibara ry'icyatsi n'umweru.

Ni amacupa abiri atandukanye. Rimwe rishushanyijeho inyundo n'igiti, ahandi nta kintu gishushanyijeho.

Ni imashini irimo, ni umurima uteyemo imbuto, n'imashini iri kuvomera imbuto zitandukanye.

Ni uducupa turimo imiti itandukanye yica ubukoko, kamwe gafite ibara ry'icyatsi, akandi gafite ibara ry'umweru, n'imifuniko y'umweru.

Ni ahantu hateretse imifuka itatu itandukanye, ifite amabara y'umweru n'icyatsi.

Ni agafuka karimo ifu, kandi gashushanyijeho inyanya n'ururabo.

Ni abajyanama b'ubuhinzi, badufasha guhinga neza, kandi ni abantu barenga batanu bari gukora uyu mwuga.

Ni umurima uteyeho ibigori, uteyeho ibirayi, hirya hari umugabo uhari, uri kurunda inkwi.

Hari ifu iri mu gafuka gashushanyijeho utuntu tubiri, ak'ubururu, nak'icyatsi hirya hari uduti tw'icyatsi.

Hari abantu bane, abagabo babiri, abadamu babiri, hari urutoki, hari umukenke, hari n'ikiduki, hari n'igiti.

Ni umurima uteguye bari guteramo imbuto z'ibihwagari bari kuziminja, ni umuntu uri kuziminja.

Mu murima uteyemo imbuto, harimo umuntu uri gufuhira ahetse ipombo, yambaye n'ingofero yambaye n'ishati y'umutuku.

Umuntu uri gufuhira ibigori, ibigori, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'ikoti, afite na ga mu ntoki, ahetse n'ipombo mu mugongo.

Ni agafuka karimo ibiribwa gashushanyijeho umuntu uri gufata ibiti karongeye gashushanyaho ibiti.

Ni ikiyaga giteyeho ibiti, harimo ubwato harimo umuntu wicaye mu bwato, wambaye ingofero n'agapira afite n'ingashi.

Niikiyaga kiri mu bwato harimo abantu babiri, ubwato burimo inkwi n'imyenda.

Hari indagara zirambitse hejuru y'ibitunguru, bateguye bagiye gukaranga.

Ni ifi iri mu mazi, itari yafatwa kandi ni ndende.

Ni amafi atatu ari ku ipanu. Iruhande rwayo hari igitunguru ,hari seleri ,hari tungurusumu,...

Ni inyama ziri ku iparato, ziriho ibirungo bitandukanye, umweru, umuhondo, icyatsi.

Ni ifi nini barangije kuroba, itegerejwe gutunganywa, kugira ngo iribwe.

Ni ifi iri mu mazi, ikeneye gutunganywa kugira ngo iribwe.

Ni amafi barobye ari hejuru, ategereje gukarangwa, gutekwa.

Ni amafi yo ku ibesani atatu, ategereje, ategerejwe gutunganywa.

Ni isamaki itetse neza yahiye iri ku parato, iri ku meza. Hafi aho ngaho hariho ibindi birungo.

Ni amafi ateretse ku kantu, bari gupima ku munzani ,kugira ngo agurishwe.

Ni igisenge cy'inzu bari gukora, harimo abagabo bari kugikora, hasi irubatse, bageze hejuru muri sharupante.

Ni amafi ari mu ibase, akeneye gutunganywa, akaribwa.

Ni ubwato buri mu kiyaga, harimo abagabo batatu bari kugashya, bari no kuroba, bateze imitego.

Ni ubutaka buteyemo ibiti by'intufe, birakuze bigeze igihe cyo gusarurwa.

Ni umurima w'imigano, harimo abagabo babiri mu ishyamba bari kuyisarura, bari no kuyisatura.

Ni umurima urimo ibyatsi, ukabamo ibiti ukabamo urutoki, ukamo n'ibiti birebire.

Ni ubutaka buteyeho ibyatsi bitandukanye, hirya y'aho hari ibiti birebire bikuze.

Ni igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ku ruhande hariho jaride y'indabo.

Ni igitoki giteye ku butaka kigiye kwera. Ni inyamunyu. Iruhande rwaho hari ibiti by'indabo.

Ni umurima uteyemo urutoki, harimo ibitoki icyeze n'ikiteze, iruhande rw'aho hari indabo.

Ni abantu bari mu murima uhinzemo urutoki, hafi y'umurima hari umuhanda, ruguru hakaba n'inzu yubakishije amabati y'umutuku.

Ni ubusitani, hubatse inzu imwe y'ibiti, hariho n'urutoki, ebyiri z'amatafari, hagati hari insina n'indabo.

Ni ishyamba riri ku butaka, muri iryo shyamba harimo intama ziri kurisha, hari n'ibiti birebire bikuze n'urutoki.

Ni urutoki ruteye ku butaka, ni ibitsina bitatu, hirya hariho n' igiti.

Umurima uhinzemo karoti kandi nziza, zigeze igihe cyo gusarurwa.

Ibiti biteye ku butaka birimo imbuto ku ruhande hakaba hariho insina imbuto zikaba ziri kuyanga, ni ibiti bibiri.

N'umurima uteyemo ingano zitangiye kuyanga, harimo n'umuntu uhagazemo.

Ni ibiti biteye ku butaka bitandukanye.

Umurima w'ibishyimbo ushingiriye, bimaze gufata ibiti ariko bitari byayanga.

Ni umurima urimo ifumbire, uteyemo ibishyimbo, ariko icyambere kikaba cyameze.

Ni ishyamba riri ku butaka ririmo ibyatsi, hakaba harimo n'indabo z'umweru, harimo n'ikindi n'igiti cyumye.

Ni urutoki ruteye mu murima, ku ruhande hari imigano no ku ruhande handi hari imigano.

Umurima uteyemo ibiti by'inintufe bigeze igihe cyo gusarurwa.

Umurima uhinzeho ingano ufite n'igiti ku ruhande, kandi umurima ukaba urimo igiti, unyuzemo n'urutsinga rw'umuriro.

Ni umurima uteyemo imigano, imigano ikuze igeze igihe cyo gusarurwa.

Ni umurima uzitiye. Uteyemo urutoki. Uteyemo imyumbati. Uzitije ibiti.

Ni umurima urimo insina, uteyemo n'ibigori.

Ni ibiti biteye ku butaka, biyumbije, bifite ururabyo, binazitiriye inzu.

Ni umurima uteyemo ibiti, inzu izitije ibiti harimo na shyushyu isakaje amabati n'insina.

Ni umurima urimo urutoki, uteyeho ibigori n'izindi ndabo kuruhande.

Ni umurima wari uteyemo ibigori barabisarura hasigara ibikenyeri, ku ruhande rwabo hari ahateye ibiti biri kuyanga.

Ni igiti giteye ku butaka, gifite amatabi, iruhande rw'aho hari urutoki,

Ni ubutaka buteyeho ibiti birebire, hari n'ibyatsi biri ku ruhande ni birebire cyane.

Ni ikibanza gifite uruzitiro rw'amatafari, mo imbere harimo inzu yuzuye y'amabati, yubakijije ibiti bihagaze, isakaje amabati.

Ni umurima uhinzemo ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa, hasigaye ibikenyeri n'ibiti biteye ku ruhande.

Ni ipera riteye ku butaka. Rifite amababi ,ifite n'imbuto yo kuribwa, igeze igihe cyo kuribwa.

Umurima urimo abahinzi bari gutegura intabire, abagabo babiri n'abagore babiri, harimo n'insina, n'ibiti ku ruhande.

Umurima w'ibinyomoro uteye ku butaka, ibinyomoro byeze, n'ibindi bishaka kwera.

Ni inka eshatu ziri mu rwuri，hakaba n'umushumba uziragiye ziri mu rwuri.

Ni aho gucururiza ibiribwa. Hariho ibirayi, ibishyimbo, igitoki n'ibindi bikoresho.

Ni ibigori bigeze igihe cyo gutera, harimo abantu babiri, umugore uhetse n'undi udahetse.

N'imifuka eshatu y'ibijumba ibindi ntabwo biri mumifuka, kandi akamaro k'ibijumba n'ukuribwa.

Ni aho bacururiza imyaka itandukanye, harimo amaronji ibinyomoro ,marakuja.

Ni umurima w'inyanya zeze, bari gusoroma hari umugabo uri gusoroma afite igitebo.

Ni imiteja isaruwe itegereje gutunganywa. Akamaro k'imiteja ni ukuyirya.

N'umudamu uhagaze ku butaka ufite imboga, yambaye agashati k'umutuku imisatsiye irahambiye.

Ni umurima uteyemo imbuto zifite ibibabi binini. Zitanga umusaruro.

Ni umurima uteyemo imbuto zitandukanye harimo amashyu, harimo amapapayi, hariho n'umuceri, harimo abantu batandukanye, abadamu, abagabo, hari n'ufite amashu abiri w'umudamu, wambaye n'ingofero.

Ni intoryi zisaruwe, intoryi akamaro kazo ni ukuzirya ndetse no kuzishakamo amafaranga.

Ni umuntu uri gufuhira imyaka, yambaye ipantaro n'umupira w'ingofero, ahetse ipombo mu mugongo ari gufuhira.

Ni ibigori biteye mu butaka bimeze neza, birangije guheka bisigaje kuma no kubisarura, tukabishyira ahabigenewe.

Ni umurima uhinzemo inanasi, izindi bari kuzihingira, izindi zenda kwera. Harimo abagabo n'abagore bari gukoramo.

Ni ibirayi bisaruwe, biri ku butaka, ni byinshi ntabwo bari babihunika, hirya ni isoko rikenewe kugurishwa.

Ni avoka ihiye isatuyemo kabiri ,iri ku meza ikenewe kuribwa.

Ni avoka ziri mu gitebo kandi zikenewe zitaze.

Ni imyumbati ikuye iri mu gitebo, kandi ni imyumbati yo kuribwa.

Ni umuhinzi uri hingira imbuto. Afite agasuka, yambaye imyenda y'icyatsi, yambaye n'akagofero gafite amasunzu abiri.

Ni amateke ya bwayisi， hari ay'ibice bitatu n'abiri manini，ategerejwe gutekwa.

Ni umuntu uri gucuruza imyembe yataditse hasi, aricaye ategereje abaguzi.

Umurima uhinzemo amatunda areze, ageze igihe cyo gusarurwa. Kandi akamaro kayo araribwa.

Ni umudamu uri mu bigori biri guterera, yipfutse igitambaro mu mutwe.

Ni abantu bari gukorera ibigori bari kubihembera, harimo abagore n'abagabo, bamwe barunamye abandi barahagaze.

Ni ipera riteye ku butaka, rifite imbuto, rifite n'amababi. Kandi ipera riraribwa rikagira n'umuti.

Ni umurima uteyeho ibyayi bigeze igihe cyo gusarurwa. Harimo abakozi bari gusarura icyayi, harimo abagore n'abagabo.

Aha niho bacururiza ibiribwa, pome ,inyanya, amaronji ,imyembe.

Ku isoko ry'ibitoki harimo abakiriya. Abagabo, abagore abakobwa. Bari gupima ku munzani.

Ni umurima uteyemo ibirayi, bireze. Bari gukura, harimo abagabo n'abagore bari kubikura bari gushyira mu mifuka.

Ni isoko ry'inyamunyu. Ibitoki biri ku isoko birambitse hasi.

Ni aho bacururiza ibiri imbuto zitandukanye, imineke, amapapayi, ibinyomoro, ibihaza, imyembe.

Ni ibishyimbo, akamaro k'ibishyimbo biraribwa, bigaterwa, barangiza bakabisarura. Biri mu mufuka.

Ni igiti cya voka kinini gifite amababi, hariho na voka igiye kwera. Kuri icyo giti hariho ikindi gitambitse.

N'umucuruzi uri mu iduka ripanzemo imifuka, yambaye ijiri y'umweru, yambaye n'ingofero y'umuhondo.

Ni numurima w'ibigori n'ibishyimbo birashingiriye umudamu urimo yiteze gitambaro cy'umweru ari guseka.

Ni umurima uri gutegurwa kugira ngo uterweho imbuto. Uri gutegurwa n'abantu batandatu, abagabo n'abagore.

Ni umugore uri gufuhira imyaka, akoresheje umupira w'amazi, ari gufuhira imyaka.

Ni inkoko iri mu ngano, ibyibushye. Ifite n'ibirokoroko n'ibisembe.

Hari abagabo batatu basunitse amagari ariho inanasi, n'abandi baturutse inyuma bambaye n'amagofero.

Ni ibishyimbo biteye ku butaka, harimo imigano kandi biri kuzamuka.

Hano hari abahinzi batandukanye, hari abagabo n'abagore, hirya ya bo hari ishyamba, umugabo afite isuka, ari gukorora.

Ni ubwatsi bw'ubusuga bakuramo ikirago. Ni abagore babiri n'umugabo, iruhande rwabo hari ikigo cy'amashuri.

Ni ikiraro cy'inkoko kirimo aho inkoko zirira. Bashyizemo ibiryo ziri kurya, kandi cyubatse ku butaka.

Ni igiti cya voka giteye mu murima gifite amasha, gifite amashyami, hariho n'imbuto za voka.

Hari avoka enye n 'igisate cyayo . Ibyiza bya avoka ni uko iribwa kandi igashyirwa hejuru y'ibiryo.

Hari pavuro ,hari urunyanya, hari igihaza, byose birikumwe. Kimwe n'icyatsi, ikindi n'umuhondo, ikindi n' umutuku.

Amashaza yeze yumye, ahunitse mu mufuka ateretse hasi.

Inyanya ziteye mu butaka zeze, batangiye gusarura.

Ni amapera ari ku biti yeze yahiye bakaba bari gusarura.

Ibijumba bikuye byogeje biri mu mufuka.

Ni umurima uteyemo ibinyomoro, ibinyomoro bigeze igihe cyo kuyanga , akamaro k'ibinyomoro biraribwa kandi bikagurishwa amafaranga.

Ni ibijumba byasaruwe byogeje, ibijumba by'umutuku bikeneye gutunganywa bikavamo ifu, ndetse no kubirya.

Ni umugabo uri kurandura ibirayi, yambaye ikoti ry'umukara, yambaye amataratara ayifashe mu ntoki.

Ni avoka zeze, z'amabara atandukanye, zitaze zikenewe kuribwa.

Izi ni voka ebyiri, imwe isatuye, indi idasatuye harimo n'ikibuto.

Nii isoko ririmo imbuto zitandukanye, amapera, imyembe, ibinyomoro, gutamiya, n'ibindi byinshi.

Ni umurima urimo icyayi, akamaro k'icyayira kira kiranyobwa, mu murima harimo abagabo babiri, iruhande rw'aho hari inzu.

Ni amapera ahiye, atatu abumbye, n'abiri basatuye y'umutuku ari mu gitebo.

Bari gutegura intabire yo guteramo imyaka, ni abagabo ni abagore n'abakobwa, inyuma yabo hateye ibigori.

Ni umuntu urimo gukora pepenyeri, ari gushyira ifumbire mu bihoho kandi bivanze n'itaka ndetse akabishyira muri pepenyeri nyirizina akanabihagarika uko bikwiye n'umuntu w'umudamu.

Ni abadamu bari guhingira ibigori biteye ku butaka, kandi akamaro k'ibigori bivamo ifu bivamo n'ibyatsi by'inka ndetse bikaribwa.

Ibi ni ibirayi biri mu mufuka, kandi bisaruwe bihunitse.

Ibitunguru bihinze ku butaka, none barabisaruye...

Ni amapera ari mu gitebo, ane aragize, irya gatanu rirasatuye. Ni umutuku .

Inzu y'ubwanikiro bw'ibigori, izitije amabati y'umutuku, yubakishije ibiti, hamanitsemo ibigori.

Ni itunda risatuyemo kabiri, hari n'iryibumbye. Akamaro k'itunda ni ukuribwa, kandi rigahabwa abana.

Ni inyanya zihinze ku butaka, zigeze igihe cyo kwera. Ari izeze ni umutuku izitarera ni icyatsi.

Ni abadamu babiri bavuye mu murima guhinga, bateruye amasuka ku rutugu, bombi bafite udufuka.

Indabo ziteye ku murongo zubakiye.

Ni umurima uteyemo ibirayi byeze harimo abagabo babiri umwe wambaye ingofero y'ubururu, ni igihe cyo gukura.

Ni ibijumba by'umutu n'umweru, byogeje bitegereje gutunganywa bikaribwa.

Ni umurima uteyemo amaronji. Harimo ahiye, harimo agiye gushya, harimo n'amatoya ageze igihe cyo kwera, aya maronji araribwa.

Imiteja yeze basaruye iri ku isoko iri kugurishwa. Iri mu bikensha.

Aho bari gucururiza ibisheke ni umugabo uhicaye, hari n'utundi dufuka tubiri turi ku ruhande.

Abahinzi bari gutegura ubutaka, kugira ngo bazabone uko batera imyaka. Ni abagabo n'abakobwa n'abagore.

Ni miteja myinshi iri mu kiganza cy'umuntu atashoboye kubumbatiza, hirya hariho imyaka, no hirya iyindi.

Ni pepiniyeri iteguye ku butaka, yubakiye, harimo umudamu uri gukoramo isuku, yipfutse agatambaro k'umuhondo.

Ni umurima uteyeho ibigori bikaba bigeze igihe cyo guheka ,hari umugabo uhagazemo ufite isuka ku rutugu, ari no kuvugira kuri telefone.

Ni ibigori biteye ku butaka, harimo umuntu kandi ari kubikorakora kugira ngo arebe ko bizabyara umusaruro. Akamaro k'ibigori ni uko bivamo ifu bikanaribwa.

N'icyayi giteye mu murima kigeze igihe cyo gusarurwa, abagabo n'abagore barimo gusarura.

Ni ibijumba by'amoko atandukanye, iby'imituku n'ibigiye kuba nk'umukara.

Ni imiteja iri ku meza, itegereje gutunganywa kugira ngo itekwe.

Ni avoka iteye iteye mu butaka, igeze igihe cyo kwera, ifite n'imbuto.

Uyu ni umudamu uri muri jaride y'indabyo, ari gukoramo isuku muri izo ndabo.

Ni ibijumba biri ku meza bya tura, by'imituku, kandi biri mu mifuka .

Ni umusaza urimo kwahira ibyatsi mu murima uteyemo ibigori, yambaye ingofero, yambaye n'agashati k'ubururu.

Ni ifamu y'ihene ziri mu ishyamba, ateyeho n'amaherena afite n'amahembe maremare.

Ibigori ni byiza, turabihinga bikera tugasarura. Ibigori birasha biramanitse, dutegereje kubibeteshamo akawunga.

Ni igishanga giteyemo umuceri, n'ibyayi. Ku ruhande hariho inzu, hariho n'ibigori biri guterera.

Bari mu murima, bari gusarura ibigori kugira ngo bajye kubihunika aho byagenewe. Ni abagabo, ni abagore, ni abana.

N'avoka iri ku meza isatuyemo kabiri hari nindi itasatuye. Akamaro k'avoka n'ukuyirya kandi idutera apeti.

Umurima urimo uhinzemo ibigori bigeze igihe cyo guheka, ubwiza bw'ibigori harimo kubisarura, tukabimanika, tukabikuramo ifu y'igikoma, ifu y'umutsima, agahunga, ibyatsi by'ingurube.

Ni umurima uteyemo inyanya zigeze igihe cyo gushya, harimo izihiye, hari n'izidahiye. Kandi inyanya ziraribwa.

Ni ibirayi bikuye bisutse hasi mu rugo bikenewe gutunganywa bikagurishwa.

Ibiteke biri mu ibase bigiye gutekwa, hirya hariho umuntu uri guhingutsa akaguru.

Ni uburo buri mu kintu bw'umutuku.

Ni insenda ebyiri, rumwe rusatuyemo, urundi rudasatuye, ni umutuku. Inkondo ni icyatsi.

Abaturage bavuye gusarura icyayi, harimo abakobwa, abagabo n'abadamu bikoreye mu bitebo.

Ni imiteja iri ku iparato, akamaro kayo ni ukuyiteka, ikaribwa.

Imyumbati iraryoha, imyumbati ivamo ubugari ivamo isombe yo kurya, imyumbati barayiteka imyumbati ni myiza cyane.

Umurima w'ibigori ugeze igihe cyo gusarurwa. Harimo abantu babiri bari gusarura.

Umurima uteyeho imyaka, ibishyimbo hakaba hariho n'imiteja.

Ni amateke ari mu isafuriya kandi ni menshi, bagiye kuyateka kugira ngo aribwe.

Ni ibirayi bya kinigi birunze mu mufuka, bisa n'umutuku kandi barabirya.

Imyembe isutse ku butaka bari gupakira mu mifuka, ni umugabo uri kuyipakira, irahiye.

Ibiraro by'inkoko harimo ibyo kuriraho, bisakaje amabati hirya hari urugo n'imodoka.

Ni umurima uteyemo amarongi atangiye kwera afite imbuto afite n'ibibabi.

Abahinzi, abajyanama b'ubuhinzi bahagaze mu ngano umuhinzi ari kubereka uko bimeze.

Ni ahacururizwa imbuto zitandukanye harimo intoryi, ibibiringanya, ibitunguru, ibihaza, n'ibindi biri mu mifuka.

N'umurima uteyeho ibishyimbo. Akamaro k'ibishimbo nta kandi biraribwa, bigeza igihe cy'umushyogoro kandi hagati harimo umudamu wipfutse igitambaro.

Ni umurima urimo amabuye, harimo n'ibyatsi, harimo ibiti, kandi ni umurima wo guhinga.

Iyi nzu iteretse ku butaka, ni inzu ya gakondo yubakijije ibiti n'ibikenyeri, impande hari umufuka, abantu babiri, hari n'isekuru, isakaje ibyatsi.

Ni ibishyimbo bisaruwe biri mu igitebo by'umutuku kandi akamaro k'ibishyimbo biraribwa ibindi bakabitera.

Ni umugore uri kurenga ibishyimbo, yambaye agapira k'ubururu, yipfutse n'igitambaro, ayifashe mu ntoki, iri mu mifuka.

Ni ubunyobwa busaruwe buri mu mufuka, bukeneye kugurishwa. Akamaro k'ubunyobwa buvamo ifu, buranaribwa, baranabukaranga.

Akamaro k'ibigori barabitera, bikaribwa, bikagira igihe cyo gusarurwa, bakabya bakabisarura. None ibi ngibi birashariye, biramanitse.

Ni abadamu barikugosora amasaka buri wese afite intara.

Ni ingano zimanitse ku biti bibiri bitambitse, na bibiri bihagaze, ingano zirumye.

Ni inzu ya butike irimo amavuta, umuceri, gahunga, isukari, n'ibindi bikoresho.

Imbuto ziri kumera, zigenewe guterwa ahabugenewe.

Ni ibishyimbo by'ubwoko butandukanye umukara n'umutuku, biri mu byibo bitandukanye.

Ni ibihwagari biteye mu murima, bifite indabyo kandi bifite n'imbuto, bigeze igihe cyo kwera.

Iki ni igihwagari cyeze, kigeze igihe cyo gusarurwa, bakaba bari kugisarura. Ni umuntu uri kugihungura.

Ni umugabo wikoreye umufuka, avuye gusarura ibishyimbo, afite umuhoro mu ntoki, inyuma ye hari yo undi.

Hari inzu yubatse ku butaka, isakaje amabati y'umutuku, ikaba ikikijwe n'amabati y'umutuku, mo imbere hakaba hamanitsemo ibigori.

Ni ibishyimbo bari kurenga ku kagemeri, ni ikiganza kibifashe.

Ni ibishymbo by'umutuku biri ku meza bikenewe gutunganywa .Akamaro k'ibishyimbo biraterwa bikanaribwa.

Ni ubunyobwa buri mu mufuka buri ku iparato, umuntu ari gutoranya budatunganyije bweze, ni umudamu ari kubukoramo.

Ni ibigori bisaruwe, bitonoye, bimanitse ku biti.

Ni agasanduku karimo umuceri.

Ni ibigori basaruye bikeneye gutonorwa bikamanikwa. Kandi icyiza cy'ibigori havamo ifu.

N' ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye harimo, imyaka harimo, abagore, abagabo hariho n' imodoka ije gupakira ibyateganyijwe.

Ni umuceri wanitse udatunganyijwe, ukeneye gutonorwa kugira ngo uribwe.

Ni ubutaka buteyeho ibihwagari bitangiye kwera, bitangiye kwera bifite amababi y'icyatsi.

Ni imbuto ziigihwagari, igihwagari cyeze imbuto batangiye gutunganywa zikoreshwe.

Ni ibishyimbo biteye ku butaka bigeze igihe cyo gusarurwa, bihambiriye n'umugozi.

Ubunyobwa bweze basaruye buri mu bitebo, hirya hariho uruyange.

N'imiteja irunze ahantu basaruye itegereje kugurishwa.

Ni imbuto zitandukanye bateye zigeze igihe cyo kumera, zimwe ziri kumera izindi ziri guseka.

Ni ubunyebwa bweze, basaruye bukiri mu gitebo, bataratunganya. Akamaro k'ubunyebwa havamo ifu, kandi bakabukaranga.

Ni umudamu wicaye uri gutunganya ibigori ari guhungurira mu ibasi.

Ni ibishyimbo biteye ku butaka, bimwe bireze ni impeke, ibindi ni imiteja, ibindi ni ururabyo.

Ni ibigori byiza bishya bishayitse bimanitse, kandi ibigori bikavamo ifu y'igikoma.

Ni umurima ukuwe, bakuyemo basaruyemo ubunyebwa butari bwatunganwa, bari gupakira mu mufuka.

Ni'umurima uteyemo ibishyimbo bifashe ibiti, birashingiriye, kandi bifite umushogoro.

Ni inzu y'ubwanikiro izitije amabati, y'ubakishije ibiti, mo imbere hamanitsemo ibigori.

Ibigori byeze batangiye kubitonora, kugira ngo babimanike.

Ni umurima uteyemo ingano zigeze igihe cyo gusarurwa, zirumye zifite impeke.

Ni ubutaka buriho ibishyimbo, n'ibintu by'umukara, amagi, inzuzi.

Ubutaka buteyeho ubunyobwa, ubunyobwa bwarashoye bugeze igihe cyo kurandurwa.

Ni intonore ziri mu isafuriya, zitegereje ko baziteka.

Ni akabasi kariho imyaka gateretse ku butaka, hariho n'ibyatsi birambitse.

Ni umudamu uri mu rugo uhetse umwana, uri gutoranya uburo ku nkoko. Arunamye yipfutse igitambaro cy'umutuku.

Ibigori bimanitse, biramanitse, biratonoye, bitegerejwe kuvamo agahunga ifu y'igikoma, igiheri cy'ingurube, n'iby'inkoko.

Ni ubworozi bw'inkoko, harimo umuntu uri kuzigaburira, kandi akamaro k'inkoko n'uko zitera amagi tukayarya, hakavamo n'inyama zo kuribwa, ni umuntu urimo kuzigaburira, ari no guterura imwe.

Ifamu y'inkoko nyinshi zo gutera amagi yo kurya.

Ni umworozi w'ihene, ziri mu kiraro, ateruye imwe, arishimye, ni umuntu umwe gusa.

Ni udushwi tw' inkoko turi ku butaka, dutegereje gukura tugatangira gutangwa.

Ni ingurube irimo, iri ku butaka hafi y'urugo rwubakishije amatafari ahiye, ifite amezi.

Ni abantu barindwi, bane bateruye amagi, abandi bari kugenda munzira ,bagiye kuyagurisha.

Ni ahantu hategurirwa amagi agashyirwa ahabigenewe, kandi amagi ni menshi cyane.

Ni urugo rw'ubworozi. Harimo inkoko, ihene, hariho naa n'urutoki hakabaho n'ibiraro.

Ni inka y'ikibamba, iri mu kiraro cya kijyambere iteye iherena, n'umweru n'umukara.

Ni ingurube ebyiri ziri mu kiraro, imwe yasohoye amaguru indi yasohoye umunwa.

Ni abaganga bari mu bitaro, bari kwita ku murwayi. Bose bambaye udupfukamunwa n'ingofero, hejuru yabo hari ibyuma.

Ni inka iryamye, amaguru y'inyuma arakunje. ay'imbere ararambuye, iryamye mu kiraro.

Ni umurima uteyemo ishyamba, muryo shyamba hari intama iziritsemo, hari n'ibiti birebire, harimo n'igiti gitambitse.

Ni inka ziri mu kiraro, ni inka eshatu z'inyambo. Zifite amahembe maremare.

Ni inka ifite iherena, bakaba bari kuyikingira bari kuyikingira.

Ni ikibara cy'urwuri kirimo inka, amashyo ndetse hariho harimo n'abakozi bashinzwe izo nka. Ni inka z'ibihogo, ni inka z'ibibamba zirimo.

Ni abagabo babiri bafashe inka iryamye hasi, umw ayifashe ukuguru undi ayifashe mu mutwe, umwe yambaye umukara undi yambaye ishati yamabara.

Ni inka ziri mu kiraro. Mu kiraro harimo abakozi ,abaveterineri bategereje kuzikoreraho ubushakashatsi.

Ni ingurube irikonsa ibyana byayo mu kiraro, kandi iri kurya ibyatsi ifite utwanda twinshi.

Ni inka ifite ikiraro cya kijyambere, ikaba ifite amahembe maremare ikaba iri kumwe n'umushumba.

Ni abaganga barimo gukurikirana ihene irwaye, ifashwe n'umugabo.

Ni inka iri mu ishyamba iri kurisha, ihagarariwe n'abagabo batatu, ufite inkoni n'undi ufite inkoni, n'undi wambaye ingofero y'umweru uri kuyishitura.

Ni ingurube ziri mu kiraro eshanu, zirimo iziri kurya ibiryo zose ni umweru.

Ni inkoko iri ku butaka nini, kandi nziza. Kuberako inkoko itera amagi, ikanaribwa.

Ni abaganga babiri umwe ari kwandika, yambaye n'agapfukamunwa, yiteze igitambaro, yambaye imyenda y'ubururu.

Ni inka ziri kurisha, ziri no gushoka amazi. Ni inka eshanu harimo umukara n'ibihogo.

Hari ubworozi bw'inkoko buri mu nzu, bukaba buri gukontororwa n'umudamu wambaye ikanzu, n'umupira w'umweru yiteze igitambaro.

Ni ikiraro cy'inka hari umuntu wambaye agapfukamunwa, yambaye na ga mu ntoki, yambaye n'itaburiya arikugaburira inka.

Ni ingurube yabyaye yabwaguye ibyana byinshi. None ibyana biri konka iraryamye.

Ni ibyari by'ingurube , harimo abantu babiri n iningurube y'imfizi , iri hanze.

Ni amagi ari ahantu habigenewe, ategerejwe kugurishwa kugira ngo avemo amafaranga,

Ni ikiraro cy'inkoko ziri hasi, hejuru yaho hari aho zinywera, amazi ndetse zikanariraho.

Ni inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, bakaba bari kuyikingira, akaba ari veterineri n'undi mugabo uyifashe.

Ni ihene ziri mu biraro, hakaba harimo abantu babiri, abagabo babiri, ihene z'umweru n'iz'igitaka.

Ni amagi ateretse mu byayo ni menshi cyane kandi ateretse ku butaka.

N'inyoni ifite amaguru maremare, iri k'ubutaka ifite amaguru maremare isa n'umweru.

Ni inyamaswa ihagaze mu ishyamba, mu butaka y'amahembe abiri, ndende cyane.

Ni inyamaswa iri mu ishyamba, iryamye, irambuye amaboko, n'amaguru, ifite n'amahembe maremare.

Inyoni iri mu ishyamba ifite umusatsi, ifite umunwa muremure ihagaze.

Ni mu ishyamba hari icyugu, icyugu kiri mu ishyamba.

Ni inka iri mu ishyamba itari kurisha, iri kureba itegereje ba shebuja.

Ni mu ishyamba, hari imbogo iri kurisha.

Inyoni nini ikandagiye ku butaka iri kureba neza.

Ni ingagi iryamye isinziye iryamye mu ishyamba yasinziye.

Ni imisambi iri mu ishyamba ni ebyiri isa n'umukara. Ifite ibirokoroko.

Ni igiti kiri ku butaka kirekire, gifite amashami ku ruhande, hagati harimo uturabo, hejuru hariho ibisiga bibiri.

Ni agasiga gahagaze ku biti gapanduye amababa gafite umunwa muremure w'umutuku.

Hari ibisimba bitatu byose byicaje ikibuno ni ngwe.

Umurima ufite amabuye hejuru yamabuye hari udusimba tubiri turi mwishyamba n'igiti kirekire.

Ni icyuzi kinini, igisiga gifashemo ifi, cyiyitwaye mu maguru.

Ni mu ishyamba, harimo ingurube iri mu ishyamba, irahagaze ntabwo iri kugenda ifite ibyoya byinshi.

Ni nyoni iri mu ishyamba ihagaze ku giti, kandi umurizo uri kureba hasi, n'umunwa wayo ukareba hasi.

N'inyoni yo mu ishyamba ihagaze ku rurabyo, indabyo ni ebyiri zifite n'uruyange.

Ni igiti giteye mu butaka gikuze, gihagazemo inyoni ifite ibisembe birebire ifite n'umusatsi.

Ni igisiga cyafashwe mu giti cy'ibishubi， igiti gifite itabi rimwe n'amashubi，igisiga gifite umusatsi.

Ni agapusi kari mwishyamba, gahagaze ku rutare, kari kureba k'amabara.

Ni igisiga kiri mu ishyamba, gihagaze ku biti kandi kidundaraye.

Ni inyoni iri hasi, ifite agati kariho indabo ebyiri, kandi irahagaze izifashe mu kanwa.

Ni mu ishyamba iri hasi mu byatsi.

Ni utunyamaswa tubiri turi mu ishyamba ry'indabo, dufite amahembe maremare ameza nk'ay'inka turateze.

Ni imbata iri ku butaka, umunwa uri kureba hasi kandi ihagaze hasi.

Ni ururabo ruteye k'ubutaka rufite indabo zitandukanye, harimo n'agasiga kari guhahamo.

Ni igisimba kiri mu ishyamba kiri kuvudu, kiri kwiruka cy'amabara.

Ni ibisiga bibiri biri mu ishyamba...

Ni imitubu itatu ihagaze ku giti hejuru y'amazi. Umwe ni muremure indi ni migufiya.

Ni inyamaswa ebyiri ziri mwishyamba zifite amaguru maremare, imwe ijosi ni rirerire iyindi ijosi yarikubye.